Abantu bahagaze mu cyumba k'inyubako, abagabo n'abagore harimo abazungu batatu n'abirabura batatu bose hamwe ni batandatu.

Abantu b'abagore n'abagabo, biganjemo abambaye utujire dufite ibara ry'umutuku, bahagaze bafite ibipapuro barimo barifotoza, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Abaganga barimo barita ku kana gatoya k'agahinja gasa nk'akavutse gafite ikibazo, bari kugaha umuti barimo no kukongerera umwuka.

Abantu abato ndetse n'abakuze, bambaye utujire tw'ikigo gishinzwe gutanga amaraso yifashishwa mu gutabara imbabare.

Umuganga uri mu cyumba cyo ku bitaro kirimo ameza ateretseho imiti itandukanye, hari kandi n'ibindi byuma bifashisha bakora ubuvuzi bwabo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda biryamishwaho abarwayi igihe baje barembye kugira ngo abaganga babiteho ku buryo buboroheye.

Abagabo babiri bambaye amajire ariho ikimenyetso cy'umusaraba, bakorera ikigo gishinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze, barimo barifotoreza ku rupapuro bari guhereza umudamu witeze igitambaro.

Inyubako z'ibitaro aho harimo abantu barimo baravayo n'abajyayo bashaka serivisi zitandukanye. Hari icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu agaragaza ko habera isuzuma ryihutirwa.

Ibi ni ibitaro by'ibanze byifashishwa n'abaturage baturiye aka gace, bisakaje amategura hari umuganga n'abantu babiri b'abagore ni ibitaro bya Mpushi.

Umusirikare ufite ikintu arimo arasuzuma umukecuru wicaye witeze igitambaro gifite ibara rijya gusa nk'ubururu bw'ikirere.

Abantu bicaye mu ntebe zikozwe muri pulasitike barimo barabafata amaraso babapima indwara, harimo n'umusirikare uri kuganira n'umugabo.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru, harimo urimo arakanda telefone, undi arimo arareba mu gitabo hari ibitambaro bifite ibara ry'icyatsi.

Abantu bicaye mu ntebe z'imbaho abagabo n'abagore harimo n'urubyiruko, imbere hari umugabo wambaye ikositime y'umukara arimo arababwira.

Ababyeyi baba mama bicaye ku ntebe bategereje ko babakira, buri wese agiye ateruye umwana w'uruhinja, basa nk'abaje gushaka serivisi.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ariko inyuma idafunze, arimo aravura undi, bisa nkaho arimo kumutera urushinge ku jisho.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yashyize mu matwi igikoresho kifashishwa bapima umuvuduko w'amaraso, ndetse no kumenya uburyo umutima w'umwana arimo arapima urimo gutera.

Imodoka izwi ku izina ry'imbangukiragutabara, yifashishwa mu gutwara abarwayi, ibavana ku bitaro bimwe, ibajyana ahandi, hari icyapa gitoya cyanditseho amagambo agaragaza ko ari Ibitaro byo mu Karere ka Nyagatare.

Imodoka izwi ku izina ry'imbangukiragutabara, ikoreshwa n'ibitaro mu gutwara abarwayi, ibavana ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi. Harimo umuyobozi wayo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru wakoze imisatsi ye neza y'umukara yambaye n'uturindantoki, ari kwandika, ku muti agiye guha umurwayi umwicaye iruhande.

Ibi ni ibitaro byubatse neza bisakaje amabati y'ubururu, harimo n'abantu bagiye gushaka serivise zitandukanye z'ubuvuzi.

Abantu b'abagore n'abagabo baricaye ku murongo baje gushaka serivisi, bagiye bazihabwa uko bakurikirana bitewe n'igihe bahagereye.

Icyumba cyo kwa muganga mu bitaro, kirimo umuganga urimo arita ku barwayi baryamye ku bitanda, ari kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babashe gukira.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo umugabo urwaye cyane, ararembye ari ku gitanda. Hari abaganga barimo barasoma ibyangombwa kugira ngo bamwiteho.

Ubuvuzi ni byiza kuvura abarwaye neza bagakira nkuko uyu muganga arimo aravura umudamu uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, yambaye uturindantoki ndetse arimo arakanda imashini.

Abaganga barimo barita ku murwayi bambaye imyenda ibapfutse ahantu hose ifite ibara ry'icyatsi cyerurutse. Umurwayi aryamye ku gitanda.

Ibikoresho byifashishwa n'abaganga, hari abaganga barimo barabyitaho bambaye amataburiya y'umweru, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umudamu muremure, wambaye imyenda idoze mu bitenge, ateruye umwana we, afite n'igipande mu ntoki, aje kumukingiza.

Abantu benshi bahagaze harimo uwambaye agapfukamunwa kajya gusa ubururu. Umusirikare ufite idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse inyuma yaboho hakaba hari amazu y'inyubako.

Mu bitaro bitandukanye hirya no hino by'Igihugu, haba hagiye harimo abaganga buri wese afite icyo ashinzwe aba ni abaganga babiri, bisa nk'aho bakora ahacururizwa imiti.

aAbantu bateranye, abagabo, abagore, urubyiruko, bari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, Jenoside yakorewe Abatutsi, mu gihumbi magana acyenda mirongo icyenda na kane.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na baji mu ijosi, aricaye hagati y'abarwayi babiri arimo arabavura, abo barwayi ni abasore.

Mudasobwa zimwe zakoreshwaga kera iteretse ku bikarito, mu kirahure cyayo nta mashusho, arimo hari urugi rusa ibara rijya kuba umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda cyifashishwa haryamishwaho, umurwayi waje arembye, kugira ngo bamuvure abegereye.

Aha ni kwa muganga hari abantu batatu, babiri bambaye amataburi y'ubururu, umwe ni umugabo wambaye amarinete n'ingofero, barimo baramupima virusi itera sida.

Kwa muganga iki kikaba ari icyumba gikorerwamo ibagwa, iyo hari umurwayi waje afite ikibazo gikomeye birasaba ko bamuvura bamubaze ni hano bamuzana.

Abagabo n'abagore ubona ko biyubashye, harimo umugabo umwe wambaye ikabutura ubyibushye. Bahagaze imbere y'imodoka bafite bamwe ibipapuro barimo barifotoza, inyuma yabo hari ibiti birebire ndetse n'indabyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi baryamye ku bitanda byaho, hejuru yabo hari inzitiramibu na vandarateri itanga umuyaga.

Ahantu heza cyane, hari inyubako nziza. Hari kandi n'abantu baje bahagana. Bagiye gushaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, kuko ni ku kigo nderabuzima cya Tabagwe.

Umugabo wambaye umupira w'umukara uriho ikirango cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, arimo araha ikadere undi bigaragara ko nawe ari umukinnyi.

Buri bitaro byose biba bifite icyumba bakoreramo isuzumiro, hano aba baganga babiri b'abagore barimo barapima ibintu runaka kugira ngo barebe ibisubizo.

Buri bitaro biba bifite icyumba gikorerwamo isuzuma. Hano ni mu cyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga barimo barapima ibintu.

Mu cyumba cyo kwa muganga kibamo ibikoresho bifashisha basuzuma indwara harimo icyuma bakoresha bareba utuntu duto nka mikorobe.

Umuganga wambaye amarinete n'itaburiya y'umweru, yambaye uturindantoki, arimo aragira ibyo apima kugira ngo ajye kugaragaza ibizamini byafashwe.

Umuganga w'umugore wambaye agapfukamunwa n'impuzankano y'akazi yiteze akantu mu mutwe, yambaye n'uturindantoki ameze nk'uri mu nzu ikorerwamo isuzumiro yabikoze mu buryo bwo kwirinda ko yakwandura.

Ni byiza kwibuka kujya gupimisha umwana kugira ngo umenye uburyo ubuzima bwe buhagaze, iyo agize ibiro byinshi uba urimo uragabura neza rwose.

Icyumba ababyeyi batwite babyariramo abana b'impinja, hari inzitiramibu zifite amabara y'umweru, uyu mugore ateruye uruhinja rwe.

Umudamu wagaragaje amenyo ye yose, ateze amaboko bambaye umupira w'ubururu bwerurutse inyuma hari abandi biganjemo abagabo barimo barakoma amashyi.

Abantu bambaye imyenda y'umukara hejuru, abakiri bato ndetse n'abakuze, abagabo n',abagore bahanitse akaboko bafunze igipfunsi.

Umubyeyi wambaye umupira w'umuhondo, afite indangururamajwi mu ntoki, arimo aratanga imbwirwaruhame ku byerekeye uburyo wakwita ku buzima cyane cyane ubw'umubyeyi utwite.

Umubyeyi waje gushaka serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, yicaye ku ntebe arimo araha umwana we ibere kugira ngo yonke.

Ababyeyi bicaye barimo baraha abana babo igikoma bakoresheje udukombe tw'amabara atandukanye, hari akajya gusa ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara na marinete udafite umusatsi, arimo arafata umwana w'uruhinja uteriwe n'umubyeyi we.

Abantu babiri, umugabo wambaye ishati ijya kuba umweru, n'umugore wambaye imyenda idoze mu bitenge n'amarineti, barimo barareba ku rukuta ruriho icyapa.

Umusore wambaye akajire n'ingofero y'umukara biriho ikimenyetso cy'umusaraba biranga ikigo cyita ku bana gitanga ubutabazi, arimo araha abana amata abasomesha.

Abantu bahagaze, bambaye imipira y'icyatsi kibisi, abandi baricaye, harimo n'abasirikare bari kwifotoza.

Ikirango cyanditseho amagambo atandukanye, hariho ahanditse ngo baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe, imyitwarire ishobora gutera ihungabana. Bigaragara ko ari umunsi uzaba ku wa makumyabiri na kane, Werurwe bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umuforomokazi arimo araganiriza umudamu wambaye imyenda, harimo igitenge kirimo amabara atukura, arimo aramuhumuriza kugira ngo atiheba.

Abantu baje gushaka amakuru ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bari kubaza abantu babicaye imbere, bashaka kumenya uko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe gihagaze muri sosiyete.

Abadamu, abagabo ndetse n'abageze mu zabukuru, barimo barishimye babyina batunze uruziga. Bari kumwe n'abasirikare.

Abana b'abanyeshuri bakiri batoya, harimo umugore wambaye ipantaro y'umukara urimo aragenda abasuhuza, hari numugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru. Ni ku kigo cy'amashuri.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo urubyiruko ruri mu nama, bicaye bakoze ikiziga, bafite amazi munsi yabo aho bicaye.

Abaganga babiri bambaye impuzankano y'akazi. Hari undi mugabo muremure wambaye amarinete barahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo hirya ku ruhande hari ibinyabiziga bihaparitse bya moto ndetse n'abantu. Hari inyubako ikorerwamo ubucuruzi izwi nka farumasi hacururizwa imiti.

Iduka ricuruza imiti itandukanye izwi ku izina rya farumasi, abarwayi barahagana bakahagura imiti bifashisha banywa kugira ngo birinde indwara ko zabazahaza.

Icyumba k'inzu gikorerwamo ubucuruzi, hacururizwamo imiti bifashisha bavura abantu indwara. Iyo urwaye urahagana ukaguramo imiti.

Icyumba cy'inzu gikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, kizwi ku izina rya farumasi, harimo umucuruzi wayo, imbere ye hari utujerekani n'impapuro z'isuku.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubuvuzi bwa gakondo aho hari nimero wabahamagaraho ndetse n'amagambo yanditseho avuga ngo: "Tuvurisha ibimera nawe wahagana."

Ibinini bitangwa mu bitaro, igihe umurwayi yabagannye akababwira ko arwaye, akeneye ko bamuvura. Ushobora kandi kujya muri farumasi ukabigura.

Ikiganza cy'umuntu gifashe akantu gashushanyijeho: inka y'ikibamba, intama, ihene n'ingurube, arimo arerekana umuti.

Inzu izwi ku izina rya farumasi, iyo nzu ikaba icururizwamo imiti, abarwayi barayigana iyo barwaye bakaguramo iyo miti bakivura.

Abantu b'urubyiruko barimo barifotoza bafite ikintu cyanditseho amagambo avuga ngo agakingirizo, kakaba gakoreshwa iyo kwifata byananiranye ubushyuhe bwabarenze.

Abana bakiri batoya bambaye imyenda bakorana siporo, iri mu ibara ry'umukara, bafite igipapuro kimeze nkaho ari sheke.

Mu nyubako hahuriyemo abantu batandukanye b'ingeri zose, abagabo n'abagore, imbere hari abantu bandi barimo barabyina baba basusurutsa.

Abantu bari mu nama, abenshi baracyari batoya, abakobwa n'abahungu. Hari umugabo ufite indangururamajwi, hari ibyo ari kubabwira.

Abantu b'abayobozi bahuriye ahantu hamwe, bari baje mu gikorwa cyo kwamamaza, bavuga ku buryo bwo kwita ku buzima.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara arahagaze arimo aratanga ikiganiro, inyuma ye hari ikirangantego k'Igihugu n'amagambo agaragaza ko ari Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku Buzima.

Ikiganza cy'umuntu w'umugore wambaye imyenda idoze mu bitenge, arimo arakamura ibintu yasekuye ngo akoremo imiti.

Umuhanda w'igitaka mwiza ariko utarimo kaburimbo. Urimo urajya mu bitaro birimo abantu baje gushaka serivisi.

Uyu muti ukorwa mu kimera kitwa umuravumba, ukaba uvura: inkorora, kubabara umutwe, guhitwa, ibicurane ndetse no kuribwa mu nda.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara udafite umusatsi mwinshi, afite ibyatsi mu ntoki, bisa nk'aho agiye kubikoramo umuti wa gakondo.

Icyatsi ntazi izina rya cyo, ariko kifashishwa hakorwamo imiti ya gihanga, ivura indwara. Hari n'abahitamo kugikoresha, kitanyuze mu ruganda.

Iduka ricuruza ibijyanye n'ubugeni, harimo ibikorwa mu biti ndetse n'ibikorwa mu ibumba, hari uducupa inyuma yaho, hari n'umugore urimo aranka ibintu.

Umwana wambaye ikanzu iri mu ibara ry'ubururu bwijimye, hari ibase iri mu ibara ry'umutuku. Hirya hari inzu wagira ngo ni ishuri yubakishije amatafari ahiye.

Abana bakiri bato badafite imisatsi ku mitwe yabo, harimo akana gato k'agakobwa. Bicaye imbere y'inzu yanditseho gira ubuzima, hari umu mama urimo arayigana.

Umuganga wambaye itaburiye arimo arapima umugore wambaye imitenge, ari kumufata amaraso kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Inyubako yo kwa muganga isize amarange y'ubururu, imbere hari umusirikare uhahagaze, hari kandi amagambo yanditseho avuga ngo girubuzima.

Aba bantu baje ku bitaro baje gushaka serivisi zitandukanye, harimo abakiri bato, hari umugore uhagaze ufite imisatsi miremire wambaye imyenda y'ibitenge.

Mu bitaro harimo abaganga babiri umwe ufite ikayi urimo urandika ariko arimo aravugana n'undi muganga mugenzi we barebana mu maso.

Ahantu hari amapave mu mbuga ariko ashaje, hari inyubako ifite imiryango y'icyatsi n'amarangi y'umweru ateye kuri iyo nzu, imiryango irafunguye.